Ni umugabo uhagaze mu nama, uri gutanga amabwiriza y'ibintu runaka, cyangwa amagambo atandukanye ari ubwira abantu. Aba ni abantu bari kumva ibyo bari kubabwira.

Ibi ni ibirori biteraniyemo abantu batandukanye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, ibi ni ibitambaro by'amabara atatu arimo ubururu umuhondo icyatsi.

Uyu ni umuhanda w'umukara ucuritse urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo n'abantu bagiye batandukanye bari mu bikorwa bigiye bitandukanye abagabo n'abagore.